Ibi ni bimwe mu bikorwa byiza Leta yacu yatugejejeho, birimo kwita ku bana neza, tukabahuriza hamwe. Aha niho bita mu irerero, hano niho duhuriza abana, tukaba rimwe na rimwe twabategurira amafunguro kandi ikindi turanabigisha n'utundi tuntu two mu rugo.

Iki ni ikigo abana bacu bigaho, hano bari bageze mu gihe cy'akaruhuko, bari gukina birukanka ubona bishimye, mbese nta kibazo bafite. Abana bacu dukunda iyo twabohereje ku ishuri bagakina, bakishima ndetse bakamenya n'ubumenyi rusange.

Aha turi ku ishuri ry'abana b'incuke, aho bari bari kwishima, batwereka ibyo bazi, babyina, bakina n'udukino dutandukanye batwereka ko bishimye kandi bishimiye n'abarimu babo, abarimu babo babafata neza, barabakunda babigisha neza.

Aha ni mu kigo cy'abana b'incuke, aho twasuye ikigo bakatubwira ko abana babayeho neza, bafatwa neza, kandi amasomo yabo bayakurikirana neza umunsi ku munsi, dushishikariza n'ababyeyi kujya bita ku bana, uko bavuye ku masomo bakabafasha bagasubira mu masomo bize uwo munsi, bityo bifasha ko umwana yaguka cyane mu mutwe mu mitekerereze yiwe bikamufasha kubaho neza.

Ibi ni bimwe mu byiza byo kujyana abana ku ishuri, kuberako abana bigirayo ibintu byinshi, imirimo itandukanye nkahangaha abana twari turimo kubigisha ukuntu bashobora kuba babungabunga ibidukikije n'ibimera, ndetse ukuntu n'abana bashobora kuba bafasha bamama babo kuba bajyana mu mirima, bakabafasha no guhinga no gutera imbuto zagira umumaro.

Iki ni ikigo cy'amashuri y'incuke twasuye, aho twasanze abana bafatwa neza kandi bishimye, batubwira y'uko abana bageze muri iki kigo ari itangiriro ry'ubuzima bwabo riba riri, kandi ko bakura batekereza neza bakunda n'amasomo yabo cyane, kubera ko biba byarahereye mu bwana bwabo.

Iki ni ikigo cy'amashuri cy'abana batoya amashuri abanza ayo bita primaire. Aha ni ku kigo cya Kamuhoza aho twasuye tugasanga umwarimu ari kwigisha abana neza. Abana na bo badukundiye barakurikira basubiza neza ibibazo babajijwe. Mu by'ukuri ni abana bafite ubwenge kandi ubona bafite ejo hazaza heza.

Bimwe mu bikorwa byiza abayobozi bacu batugejejeho, harimo n'icyo bita irerero, hamwe dufa abana bacu batoya tukabahuza n'abandi bagasabana, kandi bagatangira no guhabwa uburere bakiri batoya, biba ari byiza kugenda ubona umwana uko ateye, icyo akunda, kuko iyo yishimanye n'abandi bana, bifasha n'ababyeyi cyane.

Iki ni ikigo cy'amashuri y'inshuke abenshi bakunda kwita garidiyene, iki ni ikigo cy'abapadiri Saint Paul gifite garidiyene iherereye Kimisagara, aho twasuye abarimu babo ndetse dusanga bari kwigisha abana, kandi abana barakurikira neza cyane, batubwira ko kwigisha umwana si ukumukubita ahubwo ni ukumuha uburere bukwiye, kuko ari byiza kuba umwana yatangira kwiga akiri muto.

Ibi ni ibiro by'umukuru w'ikigo cyacu kuri Elinagweri aho twiga. Twari twamusuye mu biro by'iwe turikumubaza ku bibazo n'imbogamizi. Tumwereka n'imbogamizi tugenda duhura na zo mu kigo cyacu.

Iki ni kimwe mu bigo byiza biri mu Rwanda bifasha abana babana n'ubumuga kandi gitanga n'uburere bwiza buhagije kugira ngo na bo babashe kwisanga muri sosiyete nk'abandi kandi bafite n'icyo bazi, banashobora gukora nk'abantu babana n'ubumuga.

Aha ni mu ishuri aho dufatira amasomo yaba ay'ubuzima, yaba ari n'ayo gukora, hano ni ho dukura uburere buzatugirira icyo butumarira imbere hacu heza, yaba ari imyifatire myiza, kugira disipurine, byose tubikura hano kuri iyi ntebe y'ishuri.

Ni byiza guta imyanda ahabugenewe. Aha ngaha twari dusanze umwana afite imisumari n'imifuniko ya fanta, agiye kubita ahabugenewe aratubwira ati: iwabo bamutoje umuco wo kujya, atora imyanda agakora isuku, ikintu cyose akagishyira ahabugenewe ibibora n'ibitabora akabitandukanya.

Aha ni ho twigiraga kera, hano twari turi gusabana n'abandi banyeshuri twungurana n'ibitekerezo ku ma group work baba baduhaye ku ishuri, tugenda duhana ibitekerezo kugira ngo turebe ko twazatsinda amasomo yacu kugira ngo tuzanabane neza mu buzima bwacu bwo hanze mu gihe tuzaba twararangije amasomo, bamwe twaratangiye n'akazi.

Aha ni ku ishuri kera tutaragira ubushobozi bwo kuba twatangira kwigira ku bibaho. Aho twasaga nk'abigira ku bintu bimeze nk'ibitambaro, kwiga byari bigoranye kandi bikomeye, ariko ntitwacikaga intege, twarageragezaga uburyo bushoboka bwose, ariko ubu ngubu haje iterambere dusigaye dufite ibibaho, amamashini, amatelefoni, biradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Aha ni ku ishuri aho benshi dukura ubumenyi, butugirira akamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi yaba mu kazi dukora, yaba aho turi, ubumenyi ni bwiza, ubumenyi kandi no kugira ubumenyi rusange ni bwiza. Ibi ni ibikoresho dukoresha ku ishuri, izi ni intebe, urabona twabikagamo amasahani yo tuza kuriraho saa sita kugira ngo tutaza kura hasi.

Iki ni ikigo cy'incuke twasuye, aho twasanze abana bishimye, bari basoje amasomo bari gukina, banavuga ukuntu amasomo yari ameze; ubona ari abana bameze neza, bafite umuco kandi bitaweho neza, bafite n'ababyeyi babakunda.

Icyiza cyo kugira abarimu beza bita ku bana bacu, batwigisha ubusabane, bakatwigisha gukora siporo, gukina udukino dutandukanye, kugira ngo tubashe kubana neza na bagenzi bacu no kwisanzurana nabo, tukiyumvanamo cyane.

Aha ni ku ishuri aho aba abana bari basoje amasomo bari gukina bidagadura bakina udukino dutandukanye, abandi bari kuganira bungurana udutekerezo, aba bana twabegereye turabaganiriza batubwira ukuntu amasomo yabo agenda ni abana bishimye kandi bafatwa neza n'abarimu babo.

Aha ni ku ishuri abana bari basoje kurya bagiye gutunganya ibyo baririyemo, ibyo bita gukora isuku. Nyabuneka abana banyu nimubatoze isuku yabo ku mibiri yabo, ku myambaro yabo ndetse n'ibyo bariraho, kuko bituma bagira ubuzima bwiza bagakura neza nta ndwara nyinshi zije mu buzima bwabo.

Abana kubajyana ku mashuri ni byiza kuko birabafasha, bituma bakura neza kandi bakura bazi icyo bashaka. Aha ni mu mwaka wa pirimeri twasuye ya gatatu, aho twasanze abana bari gukora icyo bita ubusabane, batubwira ko mwarimu wabo yabigishije ubumwe.

Iki ni ikigo cy'amashuri cya group scolaire kabusunzu, twari twagisuye turi gutembera, ahangaha abayobozi batwerekaga, batwereka ibyumba abanyeshuri bigiramo, mu by'ukuri ni ahantu heza kandi hashimishije ushobora kuba wajyana umwana wawe akahakura uburere bwiza kandi akunguka n'ubundi bwenge bwinshi n'ibyo atari azi akabihamenyera.

Izi ni zimwe mu ntebe twicaramo turi ku ishuri, turi gufata amasomo azatugirira akamaro ejo hazaza hacu, imbere yacu heza, izi nizo ntebe twifashisha tubika amakayi no kwandikiraho kugira ngo bitatuvuna kandi dushimira n'ubuyobozi butwitaho umunsi ku munsi bukaduha ibikoresho by'ishuri.

Iri ni isomero ryo mu kigo cyacu, aho tujya gusomera ibitabo mu gihe twasoje amasomo yo mu ishuri, aho twungukira ubundi bumenyi bushyashya akenshi tutari tuzi, niyo mpamvu dukunda gusoma ibitabo kandi bavuga ko umuhanga ahisha mu bitabo natwe tuba twagiye kureba ibyo abahanga bahishemo kugira ngo natwe duhishurirwe kuri ubwo bwenge bwabo.

Ibi ni bimwe mu bikoresho twifashisha turi kwiga cyangwa se bamwe turi no kwigisha abana banyu, cyangwa se twebwe bari kutwigisha, ibi ni byo bita ibibaho twandikakaho amahomework g'abana bajya gukorera mu rugo, amakwizi yo ku ishuri, iki ni ikintu gifasha buri muntu wese uri ku isi, kuko kwiga ni ibya mbere kandi birafasha cyane.

Aha ni ku ishuri abana bacu biga, biratangaje kandi biranashimishije kubona umwana wawe ashobora kuba yakora ibintu utazi cyangwa yavuga urundi rurimi utazi nk'umuntu mukuru, birashimisha ko umwana afata amakaye akiga, ukabona afite umuhate wo kumenya ikintu, wo gushaka ikintu, aha ngaha twari turi muri rekereyasiyo, abana bari bishimye bari gukina basabana.

Aha ni ku ishuri aho twari turi kwiga imibare abantu benshi bakunda gutinya kandi mu by'ukuri imibare iyo wayitayeho ukayiga neza kubera ko imibare ni ikintu gikenerwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, nta kintu wakora kitarimo imibare, imibare itwigisha gukorera ibintu ku gihe kandi ibintu byose bizamo imibare, mwitabire mwigishe n'abana banyu mubafashe mu masomo yabo ya buri munsi cyane cyane imibare.

Mu buryo bwiza bwo gukora isuku ku bigo, abana bigaho tugomba kubategurira amadushe n'amatuarete bisa neza kandi bifite isuku, kugira ngo batazahura n'amamikorobe yandurira mu myanya y'ibanga cyangwa se ayandurira no mu myanya y'ubuhumekero.

Kwiga ntabwo ari ukwiga kwandika gusa no gusoma, gushyiramo kwiga n'ibintu by'ubugeni, ni byiza birafasha, nk'aha ngaha twashushanyije, igipangu cyacu cy'ishuri, abana batatu bari gukina umupira, mbega urabona ko ari ibintu byiza, bishimishije.

Aha ni ku kigo cyacu, aho batatwigisha ubumenyi gusa bwo kwandika no gusoma, aho batwigisha n'icyo bita ati cyangwa se icyo abantu benshi bavuga ngo ni ubugeni, twgishwa no gushushanya bimwe biri mu bintu by'imikino yo mu myidagaduro.

Aha ni hamwe mu kigo cy'amashuri twasuye batwereka ibintu bifashisha bari kwigisha abana bacu babongerera ubumenyi. Ibi ni bimwe mu bintu bifasha umwana kuba yasobanukirwa bimwe mu bikoresho dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi bimanitse hano imbere ku kibaho.

Aha ni mu kigo cy'amashuri abanza muri Groupe scolaire de Rutobwe, akarere ka Muhanga, aha ni mu kigo kimwe twasuye dusanga abana bari gukina barishimye, bari ku byicungo abandi bari kuganira ku masomo yabo, ndetse kandi ubona ari abana bishimye kandi bavuga ko bafashwe neza.

Aha ni kwishuri aho twiga ibintu byinshi, aha twari tugeze mu gihe cy'uburwayi bw'ubushita bwari buri gutera cyane aya ni amatangazo twari turi gusoma bagiye batumanikira mu rwego rwo kuba twakirinda indwara y'ubushita, gukorana mu ntoki dutoze ko nabyo bitera indwara y'ubushita.

Iri ni irindi ku bantu bazi mekinike cyangwa abantu twize mekanike dukoresha mu mapine y'imodoka rifasha ipine ry'imodoka kuba ryakomera kuburyo ritagira ikindi kintu yangiza ku modoka, rifasha kugenda kugira ngo tuyobore tuhanuka dutambuka mu mihanda kandi byihuse.

Uyu ni umwe mu banyeshuri twabashije kuganira na we atubwira icyiza cyo kwigira ku mashini, ko byamufashije cyane kandi byatumye hari byinshi bindi yunguka bitandukanye n'ibyo yiga mu ishuri, atubwira ko ari byiza cyane kuba twakitabira kugurira abana bacu amamashini, kuko bakeneye kumenya ibindi byinshi kandi imashini yagura na none ibitekerezo.

Ibi ni bimwe mu bikoresho dukoresha ku ishuri twigisha abana bacu ubumenyi bunguka baguye ku kibaho; iyi niyo bita ingwa twandikisha kugirango abana babone uko bandika noti zabo cyangwa tubaha amahomewake kugira ngo babone umukoro bakorera mu rugo.

Iyo utize uba umeze nk'umwana mutoya. Aha ni ku kigo cy'amashuri twasuye, badutembereza batwereka uko ikigo cyabo kimeze, tuganira n'abarimu n'uburyo bafata ku banyeshuri babo, batubwira ko babaha uburezi bwiza, kandi babatoza no gukora isuku, no gusabana.

Aha ni ku ishuri, izi ni imashini. Leta yacu yadutekerejeho nk'abana b'ejo hazaza dushaka iterambere, itwagurira imitekerereze, ituzanira ibitabo. Izi ni imashini batuzaniye, na zo zidufasha mu masomo yacu ya buri munsi, kandi byaratwubatse bituma tumenya n'ibindi bintu tutari tuzi.

Iki ni ikigo cy'amashuri twari twasuye cy'i Muhanga, aho abanyeshuri bigira bafatira amasomo yabo ya buri munsi, twari twaganiriye nabo batubwira ku bibazo bagenda bahura na byo n'imbogamizi, ariko batubwira cyane cyane ku gipangu kigize ikigo cyabo, yuko hari ibintu byinshi babona hanze y'igipangu kubera kidakorotiriye neza, bikabarangaza mu masomo yabo.

Iki ni ikigo kimwe mu bigo by'amashuri bishyashya twateri gufungura, giherereye i Muhanga, twabashishikariza koherezayo abana banyu, kuko iki kigo kiza cyazanye abarimu b'abahanga bashobora kuba bafasha abana banyu mu masomo yabo ya buri munsi.

Iki ni kimwe mu bigo byiza biri muri iki gihugu, bigira isuku, bifite indangagaciro, kandi byita ku bidukikije, bafite n'ahantu heza hari amajaride y'abana baruhukira mu gihe basoje amasomo, bagafata akayaga keza bakanasabana.

Aha twari turi ku ishuri, umwarimu wacu udukunda cyane, natwe dukunda cyane, yari ari kutugira inama z'icyo twajya dukora nyuma y'amasomo yacu cyangwa mbere yaho, mu gihe dufite umwanya wabyo. Yari ari kutwigisha uburyo twajya dukora amasiporo, tukitabira kuba twafasha ababyeyi uturimo two mu rugo, ndetse n'ibindi byiza mu buzima bwacu.

Aha twari turi gufata amasomo twishimye byihuse kubera abarimu bacu baradukunda batwitaho kandi batwigisha neza, aha ngaha twari ri tugeze ku isomo rya biology twari twese twafokasinze cyane kubyo turi kubona n'ibyo twumva, nibyo turi kwiga ko ari ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi ndetse haba ku ishuri no hanze yaryo.

Ni ikigo kimwe cyiza kiri mu bigo biri muri iki gihugu twasuye bita Kigoma sekendare school, aha ngaha ni kumarembo yayo twari tubanje gusoma kirazira twinjira duhura n'abayobozi babo tuvugana n'abanyeshuri babo batubwira uburyo bitaweho neza bafata amasomo neza ku gihe ndetse batubwira ko babatoza no kugira isuku ku myenda bambara no ku mibiri yabo no mu makayi yabo.

Hano turi ku ishuri mu nama n'abayobozi bacu, tugirwa inama y'ukuntu twakitwara mu masomo meza ndetse no hanze yayo.

Aha ni ku ishuri, aho tujya gufatira amasomo azadufasha mu buzima bwacu buri imbere. Aha twari turi kwinjira mu mashuri tugiye gufata amasomo y'umunsi, aha ni ku kigo cyacu cya Erina Guerra Muhanga.

Aha ni kimwe mu bigo by'amashuri twasuye cya Erinagwela akiri i Muhanga, aho twasanze abayobozi bafashe abana bari kubigisha uburyo bajya bakina udukino mu gihe nta masomo bafite, kandi babafasha bibafasha no kwegerana kugira ngo bagirane urukundo hagati yabo.

Aha ni ku ishuri aho twari turi mu karuhuko dusoje amasomo ya mbere dutegereje kujya kwiga amasomo ya kabiri. Twari twishimye turi gukina n'abandi bana, tuvuga ukuntu byagenze mu ishuri, ukuntu abarimu batwigishije, biba ari byiza ku ishuri. Tugenda twagura ibitekerezo, tumenya n'ubundi bumenyi tudasanzwe tuzi.

Aha ni mu isomero riherereye hano mu mujyi aho umuntu wese yaba umunyeshuri cyangwa umuturage usanzwe ashobora kuba yajya kwisomera, bitewe n'uko yumva ameze cyangwa bitewe n'amatsiko y'ikintu ashaka kumenya kiri mu gitabo ashaka gusoma. Gusoma ni byiza kuko bidufasha kuba twakangura ibitekerezo byacu.

Hano ni ku ishuri, turi muri sale iberamo inama n'abayobozi bacu batugira inama zacu za buri munsi, uko dukwiye kwitwara mu banyeshuri, muri sosiyete, n'uko dukwiye kubana neza mu buzima bwacu bwa buri munsi, abayobozi bacu turabakunda ni beza kandi batugira n'inama nziza.

Ahagana ku wa mbere aho abana bose bazindutse bajya mu bizami, wabonaga bose bari seriye nta n'umwe ufite umwanya wo guta kuko bafite ibyo gukora, batubwiye ko biteguye ibizamini kandi bagomba kubitsinda, bagashimisha ababyeyi babo.

Aha twari twasuwe n'abayobozi bo mu nzego zo hejuru, tuganira na bo, twishimana na bo, tubagezaho imbogamizi duhura na zo buri munsi tuje ku ishuri cyangwa mu masomo yacu ya buri gihe, tubabwira n'ibyiza byo kwiga, n'ibyiza batugejejeho nk'abayobozi bacu.

Aha ahagana i Save i Rulindo mu kigo cy'amashuri cy'ababikira twasuye aho abana b'abakobwa badususurukije, tukamva ni byizayiza, babigisha umuco kandi babigisha no gusenga kandi na byo bikabafsha mu masomo yabo ya buri munsi.

Umunsi umwe twari ku ishuri turi mu nama n'abayobozi bacu batugira inama yuko twakwitwara mu masomo yacu ya buri munsi n'imyifatire yacu. Ndetse n'uko twabana n'abandi mu gihe twaba twasoje amashuri, turi mu yindi si yo hanze.

Aha ni ahagana ku ishuri rya Kabusunzu. Aho twasuye abana tugasanga bagiye mu isomero. Batubwira ko gusoma ibitabo ari byiza kandi bibafasha amasomo yabo ya buri munsi. Kandi bituma baguka mu bitekerezo bakagira n'ibindi bintu bamenya harimo nk'amateka, ndetse n'ibintu byabateza imbere mu gihe baba basoje amasomo yabo.

Aha ni ku ishuri, aho twari twagiye ku rusengero kwambaza imana ngo idufashe, iduhe imbaraga no gukunda amasomo yacu ya buri munsi, no kwiga ku cyo tuzakora, iduhe imitekerereze yagutse, iduhe gukorera amafaranga no gukorera umurimo.

Iki ni ikigo kimwe mu bigo by'amashuri byuje uburanga gifite isuku kandi gifite n'abanyeshuri bafite isuku aha ni ahagana i Muhanga muri erenagwera mu kigo twasuyemo dusanga ni ikigo gifite amajaride n'ibiti abana bafatira akayaga mu gihe basoje kwiga hasa neza.

Aba ni bamwe mu bana b'abanyeshuri b'abakobwa twahuye nabo batashye bavuye ku masomo, twaganiriye nabo batubwira imbogamizi bahura nazo mu kuva kwiga cyangwa kujyayo, ngo bibasaba kuzinduka cyane aho ababyeyi baba badafite ubushobozi bwo kubaha transport ariko kuko bazi icyo bashaka bakabyuka bakajya ku masomo.

Iki ni kimwe mu bigo byiza biri mu Rwanda kandi bitanga uburere cyane n'amasomo meza kandi bugira n'abana bazi ubwenge, ba bana basohoka bagahita bajya ku isoko ry'umurimo, aha ni kuri groupe scolaire de Butare, mwazagera ababyeyi namwe mukagera mukazana n'abana banyu tukabigisha kandi turabaha uburere bwiza.

iki ni kimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye; setandere. Aho twasanze abana bari kwigaragaza bereka abayobozi icyo bashoboye, ndetse babereka ko na taradisiyoneri; icyo bita umuco nacyo bakizi, basusurutsa abayobozi ndetse n'abanyeshuri bagenzi babo.

Aha ni ku ishuri aho twari turi gufata amasomo yo kwita ku bidukikije ndetse n'ibihumeka byose biri ku isi. Aha ngaha twari turi kwiga ku bijyanye no kubungabunga ibidukikije, aho batwigishaga gutera ibiti, guhinga twakoresheje amaterasi y'indinganire...

Aha ni kuri groupe scolare Kabusunzu twahageze murabona ikigo cyiza cyubatse neza kandi gitanga n'uburere bwiza, hano niho abanyeshuri banyura murabona akayira kubatse neza karimo amapave amashuri agezweho y'inyubako zigezweho kandi hano n'uburere bwiza, abana bahava, bahava bakuza neza mu mutwe.

Icyiza cyo kwiga umwuga nikingi aho twiga ubumenyingiro bukaba bwadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi aho udashobora gushoma warize ibintu bijyanye n'imyuga harimo amashanyarazi, ubwubatsi, iki ni ikigo cya IPRS gikunda gukoresha cyane abana amaparatike kugira ngo bazasohoke bajye ku isoko ry'umurimo bakenewe ahantu hose.

Aha ni ku ishuri aho twisanzura tukidagadura buri wese agakina umukino yiyumvamo kandi akunda kandi ashoboye, akanerekana icyo ashoboye, ndetse ku buryo bishobora kuba byatugirira akamaro ejo hazaza hacu bitewe n'ibyo twahisemo n'imikino dukina n'amasomo twahisemo ajyanye na byo.

Aha ni ku ishuri rya st Andre ahagana i Nyamirambo, aho twasanze abana bari kwiga isomo rijyanye n'imibare, batubwira ko imibare rimwe na rimwe ijya ibagora, ariko ari ryo somo ryiza rya mbere ribaho, umuntu wese aba akwiye gukurikirana, kuko imibare ari cyo kintu cya mbere gikenerwa cyane ku isi.

Aha ni mu kigo twigamo aho bita erinagweri. Aba ni abanyeshuri bagenzi banjye twari tuvuye mu masomo, dutashye tugiye kuruhuka, dukoreramo etide mu rugo, tubone nuko twitegura ejo tuzagaruke mu masomo tumeze neza tubashe kujya kwagura, imitekerereze yacu.

Iki ni ikibuga dukiniramo twidagadura twishima mu mugihe twarangije amasomo, igihe tuba turi gukina iyo bita basketball. Uyu ni umukino w'amaboko kandi mwiza ushimisha unaruhura cyane. Umutwe, ukaruhura n'umubiri ukishima ukidagadura, kandi ukaruhuka neza ugakurikirana amasomo umeze neza mu mutwe wishimye.

Aha ni ahagana ku kigo cya Setandere; aho twasuye abana bari bagiye gusenga, bavuga ko gusenga bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi bashimira ubuyobozi bwabegereje kiriziya hafi kuko iyo basenga bibafasha mu masomo yabo ndetse no kwirinda ibibi no kudakora ibyaha cyane.

Aha ni ku isomero ry'ishuri twigaga muri primaire. Ibi ni bimwe mu bitabo twifashishaga mu masomo yacu ya buri munsi aho wajyaga kwaka igitabo bakakiguha bashyizeho n'ibigendanye n'ibyo ushaka kandi bikagufasha mu masomo yawe ya buri munsi. Kandi bikagufasha no kwagura imitekerereze yawe cyane byihuse.

Hano kuri GS lega ADPR twigisha abana banyu neza dutanga uburere bukwiye n'amasomo meza afasha abana banyu mubuzima bwabo bwa buri munsi kandi bigashoboka ko dushobora kuba twabaha n'amastage byoroshye, twigisha amasomo yose meza mutugane mutuzanire abana banyu tubafashe kubarera twese dufashanye kugira ngo igihugu cyacu kizatere imbere.

Aha ni muri laboratwire, aho twigira, ubumenyi twakuye mu makayi tukabuzana kubushyira mu bikorwa. aha twari turi kwiga ukuntu umuntu apima amaraso. Akareba ibitemberamo, akareba nimba atanduye, cyangwa hari izindi ndwara zirimo.

Aha twari turi kwihugura kuri mudasobwa, ari zo batubwiye twigiraho uyu munsi, twari turi kwigaga ukuntu umuntu ashobora kuba yakora, amawepusayidi, bikaba byafasha umuntu uwo ari we wese, kandi byoroshya ubuzima, burya ushobora kuba wakora wepusayidi bajya bodaringaho ibintu ukabyohereza.

Aha ni mu macumbi y'abanyeshuri, aho bakunda kwita muri dorutwari. Mu by'ukuri twatembereye muri iki kigo, batwereka aho barara uko biba bimeze, dusanga bafite umutekano kandi barara ku bitanda byiza bikomeye. Bararyama bagasinzira bakaruhuka, kugira ngo babone uko baza kubyuka basubira mu masomo, nta munaniro bafite.

Aha ni ikigo cy'amashuri twasuye bari kuvugurura, batubwira n'imbogamizi bagiye bahura nazo mu gihe amashuri yabo atari akimeze neza, bagiye bahura n'ibibazo kimwe n'uko abanyeshuri batigaga neza bitewe n'amashuri bigiragamo, igihe imvura yagwaga, amazi arinjira mu mashuri hari igihe n'intebe zapfaga kubera amazi.

Aha ni mu kigo cy'amashuri abo twohereza abana bacu ngo baze gufata ku bundi bumenyi badafatira mu rugo, haba abarezi beza badufasha kurera abana bacu neza, bakabitaho, bakatubera aho tutari, nyaboneka nuwumva afite n'umwana utari mu ishuri umenye ko uri kumwicira iterambere, mwohereze kwiga na we afate ku masomo y'abandi bana kuko bizamugirira akamaro imbere yiwe no mu gukura kwe.

Ahari mukigo cya IPRS twari twatembereye hamwe bari bari kudutembereza hamwe mumalaboratoire yabo bakoreramo icyo bise amaparatike cyangwa kwimenyereza gukoresha intoki kuruta guhora twandika, hano hantu hafasha abana bacu kuba bagira icyo bamenya gukora kindi gitandukanye n'icyo bari bazi kuburyo byabagirira akamaro bikabageza n'ahandi hantu kure bitewe n'ubumenyi bakuye hano.

Ibikorwa remezo ni iki? Ni igihe tuba tubona twiyubakiye amazu meza nyaburanga atatse Igihugu, gukora imihanda, duca ahantu hasukuye, dufata n'umuyaga mwiza aho turi n'aho tunyura isuku ituranga, imihanda myiza. Muri uyu umuhanda w'amabuye abaturage duheruka kwikoreshereza umuhanda nyabagendwa ucamo imodoka n'abantu kandi twese uzatugirira akamaro.

Iri ni isomero ry'abapadiri riri hano hagati mu mugi, aho buri muntu wese ashobora kuba yakisangamo kandi akajya gusoma igitabo ashaka, hano nta gitabo wahabura, byaba ibitabo by'amateka, byaba ibitabo by'abanyeshuri, uraza ukisomera kandi ukagira icyo ucyura.

Aha twari turi muri rabo turi kwiga ku bijyanye n'imiti yabungabunga ubuzima bwa muntu, yaba umuntu urwaye cyangwa uri muzima, uburyo byamufasha kuruta kugira ubuzima bwiza aho yaba ari hose n'icyo yaba ari gukora cyose, ku buryo atacika intege mu mubiri kandi atahura n'imbogamizi nyinshi mu buzima bwe.

Aha ni mu kigo cy'abanyeshuri b'amashuri yisumbuye, aho twatembereye mu kigo cya St Andre bakatubwira ko nta mbogamizi bajya bapfa guhura na zo mu masomo yabo ya buri munsi ndetse n'abarimu bagerera ku gihe igihe, kandi bafite abana bumva neza kandi bazi icyo bashaka.

Bantu mushaka kwiga kandi mukiga neza mugane IPRC Huye aho bafite amashami menshi agiye atandukanye harimo nk'ubwubatsi, amashanyarazi, haba ibyo bita plambing. Nabashishikariza kuhagera, kuko hano hantu niho wajyana umwana wawe ntuzicuze, kuko batanga ubumenyi bwimbitse.

Ni zimwe mu modoka twifashisha mu gihe tugiye mu rugendo nk'abanyeshuri, tugiye nko gusura nk'ahantu runaka, mu mapariki runaka mu rwego rwo kwihugura twongera n'ubumenyi bwacu bwa buri munsi, kugira ngo hatazagira ikitugonga mu buzima tugasanga twaheze mu masomo gusa, ntituzi ubuzima bubera hanze.

Aha twari twasuwe na bamwe mu bahanga bagize isi, bari kutwigisha ku buryo twateza imbere igihugu cyacu n'uburyo twakwiteza imbere ubwacu, aha twari turi gufata amasomo y'ukuntu twakubaka igihugu cyacu, twiteza imbere mu buryo bw'ubuhinzi, ubworozi ndetse no kubaka inyubako zigezweho.

Aha ni ku ishuri ryacu, aho twari twagiye aho benshi bakunda kwita muri laboratwari. Aho dukura ubundi bumenyingiro, yisumbuye kuruta ibyo dusoma ku kibaho. Ahangaha ni ho dukura, ibyo tuzakora muri sosiyete tukabikura mu makaye tukabishyira mu ngiro, kugira ngo bizabashe kugirira ikiremwamuntu cyose akamaro ndetse n'inyamaswa n'ibidukikije.

Aha twari twagiye muri rabo kwihugura mu byo twize, dukora puritike, dukoresha amaboko, tunasoma, tugenda duhugura imitwe yacu, twagura imitekerereze n’imikorere, twishimye kandi tunabikunze cyane.

Aha ni kuri kaminuza y'ishuri ryacu, aho tujya gufatira ifunguro ryacu ry'amanywa n'irya nimugoroba, aha ngaha twari tugeze mu masaha yo kurya, twari tugiye gufata ibitunga umubiri, bifasha ibyatunze ubwonko, mu kwaguka kw'imitekerereze yacu dukenera n'ibiryo ngo bitwongerere imbaraga.

Iki ni kimwe mu bigo bya sayanse twasuye biri aha mu gihugu, aho batwinjije muri raboratwari yabo tugasanga abanyeshuri bose baba bahuze bashaka kumenya ibintu bishyashya, ndetse biga n'uburyo babonamo indwara mu muntu, mu mubiri w'umuntu kugira ngo bamenye uko bamufasha, ubuzima bw'umuntu bukagenda neza.

Aha ni ku ishuri, aho dufatira amwe mu masomo, biba bidusaba no kureba n'amashusho yabyo, n'uko bikorwa n'uko bigenda. Iyi ni purojegiteri twigiraho mu gihe bibaye ngombwa yuko wenda turi kwiga nk'amateka cyangwa ikindi kintu kidasanzwe dushaka kwerekwa, tudafite mu bitabo byacu.

Ibi ni bimwe mu bintu bireba abanyeshuri cyane bakunda kwiga ibintu bijyanye n'imyuga, aha ni ahagana mu kigo cya IPRS Huye, aho twasuye abanyeshuri tugasanga bari muri puratike bari gusubiramo bashyira mu bikorwa ibyo bize mu makayi, kugira ngo bizabafashe kubaho neza mu buzima bwabo bwo hanze bwa buri munsi.

Aha ni mu isomero ryo mu kigo cya kaminuza cya UR. aho twatembereye tugenda tureba uburyo abanyeshuri bitabira gusoma ibitabo. Mwitabire namwe gusoma ibitabo kuko sibyagenewe abanyeshuri gusa, ni abantu bose kuri rusange kuko igitabo cyagura mu mutwe. Kandi gituma tumenya n'ibindi bintu, tutari tuzi dore ko bavuze ko umuhanga, mwiza ahisha mu gitabo.

Aha ni ku ishuri aho bayobozi bacu bari baduteguriye ikirori cyo kudususurutsa ndetse no kudushimisha mu rwego rw'uko twemerewe no kwidagadura mu kigo cyacu ndetse kandi tuzanabikoresha hanze yaho. Aha ngaha bari batuzaniye ababyinnyi abantu bakunda kubyina ndetse n'abakunda kubireba, hano twari turi mu kirori twishimye n'abayobozi bacu ndetse n'abanyeshuri bagenzi bacu.

Aha ni ku ishuri aho ubuyobozi bwa rege bwari bwasuye ikigo cyacu bureba ibintu dukora, uburyo dukora amashanyarazi twiteza dushobora kuba twakora amamashini yo gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi yoroshye ubuzima, kugirango iterambere ryacu rishobore kuba ryakwihuta rirebanye n'abana bafite ubumenyi ku mashanyarazi barebe ko banadufasha.

Iyi ni imwe mu maresitora aba mu kigo cyacu muri kaminuza yacu ya huye aho twiga, iyi ni resitora turiramo mu buzima bwacu bwa buri munsi, bateka neza ibiryo bifite isuku bifite intungamubiri byiganjemo amatungurusumu, inyaya, amapavuro mbese bino biryo byose duhinga kugirango bibashe kuba byaduha imbaraga natwe turye twumve twishimye tunyuzwe duhaze tukiga amasomo yacu neza.

Aha ni mu kigo cy'amashuri, aho turara mu byumba byacu, aho twitegurira mbere yuko tujya mu mashuri, aho turuhukira iyo tuvuye mu masomo yacu, kenshi ni naho urebye dukorera n'ama etide, kandi hadufasha no kuganira na bagenzi bacu, mu gihe twese turi kumwe kandi dufite umwanya.

Aha ni ku biro by'umukuru w'ikigo cya Groupe Scolaire Saint Andre aho twari twasuye dushaka kumubaza uko abanyeshuri bitwara mu kigo, yatubwiye ko bafite abanyeshuri b'imfura kandi bafite ikinyabupfura barezwe, kandi na bo babatoza neza bakabaha n'amasomo neza ku gihe.

Aha ni ahagana muri kaminuza yacu ya UR, aho abanyeshuri bari bari gufata amasomo, kandi babyishimiye ubona bose, barangajwe ishinga n'ibyo bari kumva kandi bari kwiga, batubwira ko bishimira amasomo bahabwa kandi bakunda n'abarimu babo.

Aha ni kuri Universite yacu twigaho UR Universite nkuru y'u Rwanda itanga amasomo meza yakira abana bazi ubwenge kandi abana bazi icyo bashaka bashaka gukora, bashaka kwiga kumenya ibintu byinshi batazi kugira ngo bagire icyo batanga muri rubanda rugufi.

Aha ni hamwe mu byumba turaramo by'amashuri, aha ni kuri iniverisite Nkuru y'Igihugu, ibi ni ibyumba turaramo aho, batwigisha gukora isuku ku buriri turaramo ndetse n'aho turara, kandi ndetse no kugira isuku ku mubiri yacu no kuruhuka neza, kugira ngo tubashe kuba twakwita ku masomo yacu ya buri munsi.

Aha ni ku mashuri yacu, iyo ari muri wikendi turi gukora amasuku, murabona aya ni amajerekani dukoresha, ku mashuri nyine turi gukora amasuku tumeze nk'abari gukora umuganda, kugirango ikigo cyacu gihore gifite uburanga, kandi ahantu hasa neza ntabwo habura no kuba abana basa neza mu mutwe.

Aha twari turi ku ishuri turi gufata amasomo y'iterambere n'ubuhinzi n'ubworozi, twari twishimye murabona ko twanateye imbere ubu ntabwo tukigira mu makayi gusa tuzajya twigira no mu mashini kuko byoroshya amasomo yacu kandi bikoroshya n'ubuzima cyane, imashini nayo ni nziza.

Iyi ni imwe muri kaminuza ya UR iherereye muri Kigali Nyamirambo muri Nyarugenge, aho twasuye abanyeshuri baho batuganiriza ko amasomo yabo aba ahagaze umunsi ku munsi uko bitabwaho, ndetse badutembereza n'ikigo tubona ni ikigo cyiza gifite ubusitani bwiza ndetse gifite n'ibiti byiza, ubona ari ahantu hafite isuku wakura ubumenyingiro ukagira akamaro.

Bimwe mu bikorwa remezo leta igenda idukorera nk'abaturage bayo, ishaka future nziza ku banyeshuri bayo, ejo hazaza heza hayo, nk'iki ni ikigo cyacu cy'amashuri kaminuza nkuru yisumbuye y'igihugu UR, urabona dufite inyubako nziza amapave ashashe mu tuyira twiza tunyuramo, ku buryo nta kanda, nta vumbi ari heza.

Aha ni imwe mu mijyi yacu iri mu gihugu cyacu, twizeye neza ko tugomba kuba mu midugudu aho dushobora kuba twafashanya mu gihe twaba tugize ikibazo icyo ari cyo cyose, kandi no kwiteza imbere mu buryo bw'imikorere no kuba twafashanya mu buzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, no kuba twareba ibyahindura ubuzima, kandi bigateza imbere buri Muturarwanda wese.

Aha ni ku ishuri, kuri kaminuza yacu nkuru y'igihugu abayobozi badukoreye, nibikorwa remezo bagiye badukorera kugirango bibe byafasha buri muturage wese, buri muturarwanda wese akisangamo, ku buryo utabura n'ubushobozi bwo kwiga, kandi mu gihugu. Aha niho dufatira amasomo yacu ya buri munsi azadufasha mu minsi yacu iri imbere, aho tuzajya hose amashuri tuzayakenera niyo mpamvu tugomba gufata ubumenyi bukwiye buhagije.

Iyi ni imwe muri kaminuza ya Kist iri mu mujyi wa Kigali, twasuye abanyeshuri batugeza n'aho barara, batwereka ukuntu biba bimeze, ni abanyeshuri beza bagira isuku, kandi bafite umuco, bakunda n'amasomo yabo cyane.

Iyo twaruhutse twageze mu minsi y'ikiruhuko tutari kwiga, twatojwe kujya dukora amasuku yaba ari ku myenda yacu, ku mibiri yacu ndetse n'aho turara kugira ngo tutazandura indwara z'uruhu ndetse tukazanduza na bagenzi bacu.

Aha ni ku ishuri aho dufatira amabwiriza, dukorera n'inama mu buzima bwacu bw'amasomo ya buri munsi, kandi dukura ibitekerezo byiza, no kuba twakunda amasomo, cyane ko ari ingirakamaro ejo hazaza hacu.

Ubu ni ubusitani bwiza abanyeshuri baruhukiramo, abashaka kwifotoza bakifotoza, ubusitani bwiza bwa UR murabona ko tuba dufitemo n'utuyira nyabagenda dukoze neza turimo amapave. Nta kibazo na kimwe tugira mu buzima bwacu bw'amasomo, kuko tubona aho dufatira akayaga keza tukabasha no gutekereza neza.